Abateze amatwi bari mu nama nyunguranabitekerezo yiga ku ihindagurika ry'ikirere, bose baratuje bateze amatwi kugira ngo baze kumva ibivugirwamo bityo bafatanye kubishyira mu bikorwa.

Abayobozi batandukanye harimo n'abo mu nzego za gisirikare bari mu nama bari kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'uko barushaho gucunga umutekano neza no kurinda ubusugire bw'igihugu cyabo.

Abantu bari mu nama nyunguranabitekerezo, yiga ku buryo bashobora kuba bazamura ifaranga ry'igihugu cy'u Rwanda, bityo bikagirira inyungu igihugu muri rusange, n'abaturage bagituye.

Abagabo n'abagore bose bicaye hamwe batuje barimo kungurana ibitekerezo, kuburyo bakora ibintu byabo kandi bikagenda neza rwose nkuko babipanze neza.

Abayobozi bashinzwe imikino bari mu nama nyunguranabitekerezo umwe muri bo akaba ashinzwe jIdo fondeshoni, ariko akaba arimo aratanga igitekerezo cye kandi bose bamuteze amatwi.

Inama nyunguranabitekerezo, kugira ngo bizihirize hamwe umunsi mukuru wahariwe ubukerarugendo. Bikaba biri kwizihizwa ku nshuro ya makumyabiri na gatanu, kuva uyu munsi washyirwaho.

Urubyiruko rutandukanye rwicaye muri sitade, bamwe bambaye imipira y'imihondo abandi bambaye imipira y'ubururu bose bafite intego imwe kandi baratuje baraza kuyigeraho.

Ahantu heza hasukuye by'intangarugero bigaragara ko hafatirwa amafunguro, harimwo intebe nziza ndetse n'ameza, iruhande hari akabati karimo ibikoresho byifashishwa.

Umugabo uri mu nama akaba ayoboye abaturage, arimo kubagezaho ibyiza by'ingengo y'imari y'igihugu, n'uburyo yabagirira akamaro bakiteza imbere muri rusange.

Umuntu wambaye umupira wa oranje wicaye mu ntebe ya purasitike wegamye, inyuma ye hari utubati tubiri tubikwamo, kamwe gasa umweru akandi gasa kacyi harimo ibikoresho bitandukanye.

Umuyobozi uri imbere y'abaturage uririmo urabaganiriza ku bijyanye n'ukuntu bafatanyiriza hamwe bakubaka igihugu cyabo buri wese agakora uruhande rwe rumureba bityo bakagera kure.

Muri rusange twebwe Kagame Paul perezida wa repubulika inteko ishinga amategeko yemeje none natwe duhamije dutangaje itegeko riteye ritya, kandi dutegetse ko ritangazwa mu igazeti ya leta ya repubulika y'u Rwanda.

Abari mu nama nyunguranabitekerezo buri wese afite ikayi cyangwa se ajenda ashobora kwandikamo ibitekerezo by'ingenzi ndetse akaba yanateguriyemo na we ibyo ari butange muri iyi nama kugira ngo bungurane ibitekerezo.

Tafisa satifayedi ridashipu koruzi ahangaha ni aho ushobora kuba wafatira amasomo ajyanye n'ubuyobozi muri kaminuza bityo ukazasohoka aba ufitemo impamyabumenyi y'ikirenga.

Abayobozi batandukanye bari mu nama nyunguranabitekerezo, yiga ku mihindagurikire y'ikirere, n'uburyo bateza imbere ubuhinzi buhamye, kugira ngo buhangane n'imihindagurikire y'ikirere, idateguza.

Umuyobozi urimo urabwira abaturage ibyiza byo kwizigamira mu ejo heza, kwari ukugira ngo babashe kubaho batuje kuko bazagira amasaziro meza cyane.

Abaturage bari mu nama n'abayobozi babo, bakaba barimo barasobanurirwa uburyo bwo kwishyura ubwisungane mu kwivuza, yuko aribo bufitiye akamaro bo n'abana babo kugira ngo bose bagire ubuzima bwiza.

Umuhanda mwiza kandi ufite isuku bashyizeho akayira k'abanyamaguru gahagije, bamwe baratambuka abandi nabo bagakora imyitozo ngororamubiri, ku mpande hariho inyubako ikorerwamo n'ikigo cyitwa radiyanti gikora ibigendanye n'ubwizigame ndetse no kwishinganisha.

Rwanda Revenue Autority, iramenyesha abantu bose, y'uko itariki ya nyuma yo kumenyekanisha no kwishyura umusoro, ari itariki mirongo itatu n'umwe z'ukwa cumi n'abiri, bibiri na makumyari na kane.

Itariki ntarengwa yo kumenyekanisha umusoro yatanzwe na Rwanda reveni otoriti (Rwanda revenu authority) makumyabiri n'eshatu z'ukwa cumi niyo tariki ntarengwa uzayirenza azashyirirwaho ibihano by'ubukererwe.

Umunsi mpuzamahanga w'umurimo, ahazaza h'umurimo, intego dusangiye, ku itariki ya mbere Gicurasi, umwaka bibiri na makumyabiri na kabiri mu Rwanda bizihirije hamwe umunsi mukuru wahariwe umurimo.

Ishusho igaragaza ibiro biberamo, ibiro biberamo ihererekanya, ibiro birafunguye imbere yabyo hari umuntu usa nuri gusohokamo biseze amabara y'icyapa cyerekana kiri mu mabara y'umuhondo.

Imodoka nziza cyane yo mu bwoko bwa Rava fo, iparitse imbere y'imiryango y'ubucuruzi harimo umuryango bakoreramo akabari, abafite sitoki y'inzoga ndetse n'abakodesha imyenda y'abageni.

Muri rusange twebwe Kagame Paul perezida wa repubulika inteko ishinga amategeko yemeje none natwe duhamije dutangaje itegeko riteye ritya, kandi dutegetse ko ritangazwa mu igazeti ya leta ya repubulika y'u Rwanda.

Umunara muremure cyane w'itumanaho uyunguyu ukaba ariwo utanga sinyari kugira ngo abantu babashe kuba babona rezo babashe kuvugana n'abantu babo bakunda cyane bari kure yabo.

Emu o heci iri ngiri ni itorero mu rwanda rifite aho rikorera, misiyo yaryo ni ubuzima ndetse no kuba bakongera ibintu bishobora gutuma abantu baba beza.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Uburezi mu Rwanda REB, Rwanda Education Board kikaba cyashyizeho porogarame zo kwigishiriza kuri televiziyo kuva ku itariki ya cumi na gatanu kugeza ku ya cumi n'icyenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri.

Abanyeshuri bo mu mwaka wisumbuye, barimo kwiga uburyo bakoresha neza ikoranabuhanga, bakoresheje mudasobwa, buri wese kandi akabasha kubona mudasobwa ye ku buryo akora ibintu bye.

Nikereya andi radiyesheni porotegisheni, ibingibi ni uburyo bw'ubwirinzi burimo kwirinda imbaraga zishobora guterwa cyangwa se uburozi bushobora guterwa na nikereya ndetse n'ibintu bishobora kuba byaterwa n'imirasire yica.

Rwanda reveni otoriti iyi ngiyi ni sikirini igaragaza uburyo ushobora kwifashisha wishyura imisoro, cyangwa se ukaba wabandikira ubamenyesha.

Aho irembo govu rikorera hakaba hakaba hari serivisi zitandukanye zirimo serivisi za banki urugero nka beka ekwiti akaba ahangaha bakudekararira umusoro n'ibindi.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwikorezi RURA kiri kwerekana uburyo bushya mu gihe ukeneye serivisi zo gutwara abantu n'ibintu muri RURA ushobora kuba wakwifashisha kugirango ngo uhabwe urwo ruhushya rwo gutwara abantu n'ibintu .

Turimo gutanga akazi. Muri rdb barimo gutanga akazi ushobora gukora muri vakanse urugero: ukaba vuri tuwarizimi analisisiti cyangwa se ukaba uri situreyisensingi korudineta

Rwanda dayirekireti genero ovu imigirashoni andi emigirashoni. Ubu ni uburyo ushobora kuba wakaka uruhushya rukwemerera kuba wasohoka igihugu, ndetse ukaba wanakigarukamo wibereye mu rugo.

Abantu bambaye neza udupfukamunwa twabo neza bafite imashini mu ntoki ndetse na telefone zabo, kuko hari ibyo barimo gukora bakuye amakuru muri telefone, bakayashyira muri mudasobwa zabo.

Aradibi doti rwa bodi ovu diyirekitazi, ikigo gishinzwe imiyoborere aradibi. Kikaba kirimo kirasobanura ingingo zigenderwaho kugira ngo companiy runaka ihabwe ubuzima gatozi.

Repubulika y'u Rwanda komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta, inama nyunguranabitekerezo n'inzego zo mu butegetsi bwite bwa leta, bikorewe i Kigali muri Mata bibiri na makumyabiri na gatatu.

Irembo, serivisi nshya zongerewe mu zisanzwe irembo isanzwe itanga, urugero hari uburyo ushobora kuba wakisabira saveyi pabulishi ripoti cyangwa se ukaba wakongeza uruhushya rwawe rwo gutwara ibinyabiziga.

Uko wakwiyandikisha kugira ngo wige gutwara ndetse unakorere perime yo gutwara mu buryo bwa burundu ushobora kubyikorera ukoresheje urubuga rwa irembo www.irembo, gov .

Ajensi bankingi ahaha ni ahantu haba abajenti bakoresha banki zitandukanye urugero nka kaka, ekwiti, ndetse n'ibindi ushobora kumwegera akaba yagutunganyiriza serivisi wari ukeneye.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihastu itwaye imizigo ikaba iri mu muhanda hirya yayo mu kuboko kw'iburyo hari abanyamaguru muri abo banyamaguru harimo umusore wambaye umupira utukura ndetse n'ipantaro y'umukara mu muhanda kandi harimo ibindi binyabiziga nk'amapikipiki, amagare ndetse n'andi mamodoka.

Ipoto iriho itara rimurika mu masaha y'ijoro kugira ngo rize kumurikira abakoresha umuhanda nyabagendwa, baba abatwaye ibinyabiziga ndetse n'abari kugenda n'amaguru baze kugenda n'ijoro ntankomyi.

Itara rimurika mu muhanda ku buryo abakoresha umuhanda baba bashobora kugendana nijoro kandi bakagenda babona ibi bikagabanya impanuka n'izindi nzitizi.

Umugore wirabura ufite imisatsi myinshi y’umukara namaso ajya kuba matoya wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku, umweru, ndetse n’umukara ahagaze imbere y’ igikuta gifite ibara ry'mweru.

Icyapa kiyobora kiri mu ibara ry'icyatsi iyo ukomeje uyu muhanda urimo ugera ku mupaka wa Gatuna ariko wabanje guca puwaluru iyo ukase iburyo ugera I Muhanga ugakomeza maze ukagera n'i Musanze.

Itara rimurikira umuhanda iyo bibaye nijoro abakoresha uyu muhanda barakomeza bakagenda kuko haba habona kandi n'abanyamaguru nabo bagenda badasitara.

Umuhanda munini hirya haparitse imodoka ebyiri n'umumotari uhetse umugenzi ubona ko ari kugenda, hirya hari ibiti byinshi tuziko bidufasha mu kuzana umuyaga, gukurura imvura ntitugire ubutayu.

Abantu bari kugenda mu kayira k'abanyamaguru, barimo kubisikana, abagiye mu kazi kabo ka buri munsi ndetse n'abandi, iruhande rw'iyo nzira y'abanyamaguru hari igipangu cyubakishije ibyuma.

Ipoto y'amashanyarazi yifashishwa mu kugira ngo ikwirakwize umuriro w'amashanyarazi mu baturage batuye ahantu kure bityo nabo babashe kuba bakomeza imirimo yabo nk’uko bikwiye koko.

Umuhanda urimo imodoka zitari nyinshi iy'umutuku inyuma, imbere hari izindi n'amamoto hepfo tukabona urukamyo runini cyane bisa nk'aho ari rwarundi ruterura izindi, mu muhanda tukabonamo icyapa kiriho umweru tukabonamo amapoto rwose y'amatara amurikira umuhanda.

Taransifa itanga ingufu z'umuriro w'amashanyarazi ukenerwa kugira ngo habashe kuba hakoreshwa ibikoresho bigiye bitandukanye bikenera umuriro mwinshi ndetse n'ibikenera umuriro muke. Iyingiyi ni ingenzi kuko ibasha gukontorora umuriro ugera mu baturage.

Ku bitaro bimwe byo mu Rwanda, bikaba bitanga serivisi zitandukanye, hazindukiye abantu bose bafite ibibazo bitandukanye kugira ngo baze kuba bavurirwa bagakira, hari n'imbangukiragutabara zihutana abarwayi.

Ikigonderabuzima giteyemo ibiti byiza by'imikindo n'ubusitani bwiza bunogeye ijisho, ku buryo ushobora kubona aho wikinga akazuba kandi wumva n'akayaga icyarimwe.

Korodoro bategererezamo, abaje kwa muganga bose baba bicaye imbere y'umuryango bategererejemo umuganga, kugira ngo babashe kuba babonana na we abasuzume anabavure.

Ku ivuriro aho abagana iri ivuriro baba baje kwivuza indwara zitandukanye, ariko hakaba hari uburyo bwabashyiriweho kugira ngo birinde umubyigano n'umuvundo, bityo bose bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Amazu yubakishijwe amatafari ya ruriba, aya mazu akaba asakajwe amabati y'umutuku, kandi buri nzu ifite igikoresho kiri hejuru y'inzu, cyifashishwa mu gushyushya amazi.

Imbangukiragutabara y'ibitaro bya leta, yifashishwa mu kugira ngo yihutishe abarwayi mu gihe bahawe taransiferi ku bitaro bikuru, bityo bibashe kuba barokora ubuzima bwabo.

Inzira igaragaza aho banyura, barimo bagana mu byumba by'imbere, cyangwa se barimo basohoka muri ibyo byumba. Hakaba ari ahantu haba hatuje rimwe na rimwe, ariko hakaba n'urusaku rwinshi, mu gihe abantu bari kuhanyura.

Umugabo uri mu myenda y'imfungwa n'abagororwa ifite ibara rya oranje uri mu rukiko urimo kuburana ku byaha ashinjwa, akaba ashobora kuba umwere cyangwa agakatirwa.

Ifoto y'urwibutso yafotowe abari bari mu nama, harimo umugore umwe ukikiye imashini, ari kumwe n'abagabo batatu bicaye ku murongo w'imbere, kugira ngo bagere ku byo bifuza.

Umugore wambaye ingofero mu mutwe, wambaye amarinete, wambaye ikanzu y'umutuku igaragaza yuko ashobora kuba ari umucamanza cyangwa se akaba ari umushinjacyaha mu gihugu cy'u Rwanda.

Aho baburanishiriza mu cyumba kiberamo urubanza aho ushinjwa cyangwa se uregwa ahagararanye n'umwunganira imbere yabo hari abacamanza bagiye kumucira urubanza.

Umugabo wicaye utuje wambaye isaha ku kuboko, ishati y'umweru ikote ry'umukara karuvati y'umweru n'umukara wambaye amarinete wicaye atumbiye kamera.

Muri rusange twebwe Kagame Paul perezida wa repubulika inteko ishinga amategeko yemeje none natwe duhamije dutangaje itegeko riteye ritya, kandi dutegetse ko ritangazwa mu igazeti ya leta ya repubulika y'u Rwanda.

Abantu bahagaze harimo uwambaye ikote rifite ibara ry'umukara n'ipantaro yumukara ishati yu'mweru ikanzu ifite ibara y'umukara ndetse n'ikote rifite ibara ry'ubururu ishati y'ubururu n'ipantaro ifite ibara ry'ivu bafite urupapuro ruriho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Abaturage bicaye hasi bategereje kubera yuko ahantu bari hari hateje akaga haje imodoka zifashishwa mu by'ubwubatsi kugira ngo zibashe kuba zabafasha mu mirimo bo ubwabo batakishoboza iteje akaga.

Imodoka za polisi ziparitse ahantu hamwe, imwe ikaba iri kuvamo umupolisi ugiye kujya mu kazi, kugira ngo abashe kuba yakirinda kuba yarya ruswa babanza kumwambika kamera.

Ikibuga gikorerwamo ibizamini byo gutwara, perimi za burundu. Umupolisi arimo arakoresha umumotari ikizamini cya nyuma cya demaraje.

Kizimyamwoto, iyingiyi ishobora kugufasha mu gihe mu nyubako habaye inkongi y'umuriro, kubera yuko iba iri hafi, ushobora guhita uyifashisha, ugakumira iyo nkongi y'umuriro itaraba nini.

Umukandida perezida Paul Kagame akaba ari mu bikorwa byo kwiyamamaza abaturage n'utuduraporo tw'ishyaka rye bakaba batumanitse, ibi bikaba bigaragaza yuko bifuza yuko uko ababera umuyobozi ubakwiriye.

Ikiganza kigaragaza neza umuntu uvuye mu matora, ashobora kuba ari amatora y'abadepite cyangwa se akaba ari amatora y'umukuru w'igihugu avuyemo gutora.

Abayobozi batandukanye bo mu nzego za leta; bari imbere y'idarapo ry'igihugu cy'u rwanda; abandi bo bari imbere y'idarapo ry'ikirangantego cy'u rwanda; bombi barimo barasobanura ibintu neza.

Umugabo urimo kurahira ikiganza cye cy'iburyo gifashe ku idatapo, icy'ibumoso ke kirazamuye arimo ararahirira yuko azakora inshingano ashinzwe nk'uko yabyiyemeje.

Abayobozi batandukanye barimo kuganira kandi barishimye kuko barimo barabwirana ibintu bishobora kuba ari ibyingenzi harimo umugabo umwe n'abagore babiri .

Ni imbonerahamwe igaragaza uburyo ubuyobozi bugiye bukurikirana mu Rwanda habanza akarere mu karere haba harimo imirenge mu mirenge haba harimo utugari mu tugari haba aharimo imidugudu.

Ikigaragara iyi ni ifoto yifashishwa mu kwamamaza ya Rwanda reveni otoriti yerekana ko ugomba kwishyura imisoro n'amahoro, bitarenze itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane.

Umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda wicaye urimo kuganira n'abaturage ku bibazo bibabangamiye kugira ngo barebere hamwe umuti w'ibyo bibazo kandi bikemuke.

Kalendari igaragaza iminsi ndetse n'uko ibicuruzwa byagiye bigenda, umuntu urimo kubisobanura n'ubishinzwe kandi arimo arerekana y'uko hari icyizere gifatika cy'uko mu minsi iri imbere bizagenda neza.

Umusozi mwiza cyane uteyeho amashyamba, amashyamba akaba afasha mu kugira imyuzure n'inkangu byirindwe, hakurya yaho hari umuhanda mwiza cyane urimo ibinyabiziga bitandukanye bitwara abantu mu buryo rusange.

Ibiti biyungurura umwuka duhumeka tukabasha kubona umwuka mwiza biteye hafi y'umuhanda w'icyerekezo kimwe urimo inzira y'abanyamaguru, hakurya yawo hari ikindi cyerekezo cy'umuhanda kirimo imodoka bigishiriza gutwara.

Abantu batandukanye bagiye mu bikorwa bitandukanye; hari abagiye mu kazi kabo ka buri munsi, hari abagiye gutembera, hari n'abari mu mirimo yabo, kuko bari bizi cyane.

Imirimo igiye itandukanye, ikaba ikorwa hifashishijwe ubwikorezi butandukanye, muri bwo hakaba harimo ubw'amagare, ibinyabiziga nk'amapikipiki ndetse n'ibindi.

Umuhanda ukuboye usa neza utarimo ibinyabiziga byinshi, ariko harimo umunyonzi umwe utwaye ibicuruzwa ku igare urimo uragenda gake gake ku zuba ritari ryinshi cyane.

Abagenzi bagiye batandukanye barimo gukora imirimo itandukanye ibafitiye akamaro kuko bari buyihemberwe, hari abagabo babiri barimo kugenda umwe yambaye bote z'umweru undi yambaye bisanzwe.

Imodoka y'ikamyo yo mu bwoko bwa fuso itwaye ibicuruzwa ibijyanye muyinindi ntara inyuma muri butu yayo harimo abagabo babiri bari buze gufasha gupakurura ibyo bicuruzwa .

imodoka ya yego kabusi yifashishwa mu gutwara abagenzi iparitse ku ruhande itegereje abagenzi itwara hafi yaho hari amaduka acuruza amaterefone atandukanye ya samusangi opo na infinigisi

Imodoka yo mu bwoko bwa kebiyesi ariko itatse ibyapa bya beka, ikaba isa ibara ry'icyatsi, ikaba iri mu muhanda irimo iragenda itwaye abagenzi bagana za Remera.

Imodoka yo mu bwoko bwa toyota mitsubishi isize irangi ry'umweru, irimo iragenda mu muhanda nyabagendwa ariko irimo yonyine hirya yaho hari igaraje ririmo imodoka zitandukanye.

Umuhanda w'ibyerekezo byombi urimo ikamyo itwaye pampegisi za mamirave ikaba iri kubisikana n'imodoka z'abantu ku giti cyabo, z'amavatiri ndetse n'indi irava ibari inyuma.

Umuhanda nyabagendwa, ariko by'umwihariko hakaba harimo amagare, bikaba bigaragara yuko yifashishwa cyane muri taransiporo yo muri aka gace, kandi hari abantu bagiye kuyatega, kuko barimo kumvikana ibiciro.

Imodoka nini itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ya jagwari ikaba ibavana mu gihugu cy'u Rwanda ibajyana mu gihugu cya Uganda, isize amarangi y'umutuku irimo irerekeza mu igi cya Uganda ku manywa.

Vayibu riyo esiteti, aba ngaba bagufasha kuba wabona ibibanza byiza biri ahantu heza ukaba, wabona inzu zo kuba wagura mu gihe uzikeneye, kandi zifite ibyangombwa bitaguhenze kandi bya nyabyo byizewe.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ya seleta, irimo iramanuka itwaye abagenzi buzuye kandi bose baricaye neza cyane ntawe ubyiga undi, mu muhanda harimo ibindi binyabiziga urugero nka moto n'ibindi.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ifite ibara ry'umweru, irimo iragenda gake gake nijoro kuko itwaye abagenzi, kandi igomba kubagezaho bagiye mu mahoro, nta gikuba gicitse.

Ikamyo y'umweru itwaye ibyuma inyuma, n'umuntu yicayeho inyuma, ifite umushoferi umwe wicaye imbere, ikaba iri kubisikana n'umumotari utwaye umugenzi.

Ikamyo yo mu bwoko bwa hoho cyangwa dipine nkuko bimenyerewe mu Rwanda, ifite kabine y'umuhondo ikaba iri kugenda mu cyerekezo kimwe cy'umuhanda. Ikaba igiye kuzana umucanga cyangwa amabuye.

Imodoka za litiko zitegereje abagenzi kugira ngo zibajyane aho bashaka kugera, zikaba ari imodoka nziza ebyiri nini zitwara abantu mu buryo bwa rusange kandi byihuse.

Ikinyabiziga gitwara ibicuruzwa byinshi icyarimwe, kizwi nka dayihatsu, kikaba gihetse toni zirenga eshanu, gisize amabara y'ubururu ya kontineri kandi kiraparitse.

Muri gare aho imodoka zifatira abagenzi, zitwara abantu mu buryo bwa rusange, imbere yaho hari ikibisi kinini cyane kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, cya kibiyesi, inyuma yacyo hari utuminibisi tubiri.

Umuhanda nyabagendwa wo muri karitsiye ucamo ibinyabiziga bike ugereranyije n'imihanda isanzwe, ikaba iri gucamo umumotari urimo gukata azamuka kugira ngo ashyireho umugenzi.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, urugero nk'amagare, amamoto ndetse uyu muhanda ukaba usa neza ufite amatara awumurikira n'injoro.

Umuhanda nyabagendwa uba urimo ibinyabiziga byinshi urujya n'uruza rw'abantu batandukanye baba abari mu mirimo yabo, abarimo kugira ngo bagere iyo bajya ndetse n'abandi muri rusange.

Ibiti biyungurura umwuka duhumeka iruhande rwabyo hari umuhanda uwo muhanda urimo kamera zicunga umutekano wo mu muhanda uyu muhanda ni nyabagendwa kandi urasa neza cyane .

Kigali portal, Kigali portal ni karibu urisanga. Aha ni hab runaka ushobora gusohokeramo uri kumwe n'umukunzi wawe cyangwa se ushaka kwikorera akazi kawe utuje.

Abakinnyi barimo gukinira muri sitade nziza cyane; isakaye kandi ikibuga barimo nacyo kirimo tapi; ibafasha kugira ngo mu gihe baguye ntibaze gukomereka.

Ikibuga kigari gikinirwaho kiriketi mu Rwanda kikaba gifite ubwatsi bucunze neza kandi kikaba hirya no hino hateye ibiti byiza cyane bitanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Icyapa gifite ishusho ya mpandeshatu, kizengurutswe n'ibara ry'umutuku gifite ingasire y'ibara ry'umweru, ibimenyetso bikaba byandikishije ibara ry'umukara. Iki cyapa kikaba kimenyesha kunyuranaho.

Icyapa cy'umuhondo n'umukara kigaragaza yuko aho hantu harimo kubakwa, imbere y'icyo cyapa hari ingofero zirinda umutwe, akaba ndetse n'amakona ashobora kuburira abantu yuko ngo hari kubakirwa.

Icyapa cyo mu muhanda kizengurutswe n'ibara ry'umutuku, ingasire ni umweru, ibirango biri mu ibara ry'umukara, kigaragaza aho abanyeshuri banyura, baba bari kwambuka cyangwa se bava ku ishuri.

Icyapa cyerekana yuko uva mu muhanda munini, ukinjira mu duhanda twerekeza mu makaritsiye, kikaba gifite ishusho y'impande eshatu, kikaba gifite ingasire y'umweru.

Ibimenyetso byo mu muhanda icya mbere cyerekana yuko u uwo muhanda ukomeza ariko imbere ukaba uhura n'undi muhanda munini, ubwo rero bikaba biri mu byapa bimenyesha abatwaye.

Icyapa cyerekana ahari dodani kikaba kiri mu ishusho ya mpande eshatu kikaba kizengurutswe n'ibara ry'umutuku naho ikirango kiri mu ibara ry'umukara.

Urubuga rwitwa eni ero eyi cyangwa nashono landi otoriti, rwifashishwa muri repubulika y'u Rwanda, aho itanga ku buryo bwihuse amakuru y'ingenzi ku butaka.

Icyapa cyo mu muhanda kiriho ishusho ya kare, kiri mu ibara ry'umuhondo cyandikishije amabara y'umukara, kikaba kimenyesha y'uko imbere hari uduhanda twinjira mu muhanda munini urimo.

Icyapa cyerekana aho abanyamaguru babujijwe kwambukira, Icyo cyapa kikaba gisa nka mpandeshatu icuritse; munsi yaho hakaba hariho akapa gatoya na ko k'umutuku kerekana ko nta munyamaguru ugomba kwambukira aho.

Icyapa gifite inyuguti ya ti yanditse mu ibara ry'umukara, bikaba ingasire ari umuhondo ariko izengurukijwe n'utubara tw'umukara.

Icyapa kigaragaza ahari dodani kiri mu ishusho ya mpande eshatu kikaba gifite umuzenguruko w'umutuku ingasire ni umweru ikirango ni ibara ry'umukara .

Icyapa cya sitopu, kimenyesha yuko umushoferi agomba guhagarara kuko imbere hashobora kuba hatameze neza. Iki cyapa kikaba kiri mu ishusho ya mpande eshanu, kikaba gifite ingasire y'ibara ry'umutuku, kikaba kiri mu byapa bitegeka.

Inzira nyabagendwa ikorerwamo imirimo y'ubucuruzi igiye itandukanye; nk'urugero hari amakiyosike ya Emutiyene aho bacuruza amata; hakaba hari amafarumasi, hakaba hari utumoteri two kuraramo n'ibindi.

Inzu nziza cyane zubatse kimwe, zifite n'ibipangu bijya gusa, zose zigeretse inshuro imwe, zikaba zifite ibirahure byiza cyane bya fime, ziri ku muhanda w'igitaka.

I kanombe hari igipangu cyiza cyane kiri haruguru y'umuhanda kikaba cyubakishije amatafari meza ya ruriba adapfa gusaza, akaba inyuma yacyo hari ubusitani bwiza cyane n'ibiti bitanga akayaga keza.

Abantu bari ku murongo bategereje guhabwa serivisi zitandukanye. Bari muri banki imwe yo mu mujyi wa Kigali kandi bose barifuza ibintu bitandukanye. Barategereje kuko bari buze kugerwaho.

Hoteri yitwa Regasi hoteri aho iherereye ikaba ifite amarangi y'umuhondo ndetse avanze na y'umweru, ikaba iri ahantu heza cyane ku muhanda hari amahumbezi hateye n'ibiti bishobora gutanga akayaga.

Mu Giporoso ni ahagana i Remera mu mujyi wa Kigali haba urujya n'uruza rw'ibinyabiziga kandi uyu muhanda uba uhuze cyane urimo amamoto imodoka zitwara abantu n'izabantu ku giti cyabo .

Ibiro by'akagari ka Mbogo muri metero ijana gusa niho ibi biro ubasha kuba wabisanga, bikaguha serivise zigiye zitandukanye wakwifuza zose baziguhera igihe.

Indabo cyangwa se ibiti byifashishwa mu kuyungurura umwuka mwiza duhumeka, hafi yaho hateye akajaride keza cyane ga ashobora gufasha umuntu kuruhuka mu mutwe.

Inyubako ndende igereretse kane iri mu mabara meza y'umuhondo hejuru hakaba hariyo umunara muremure nawo wifashishwa mu kuba watanga amarezo, ku baturage batuye hafi aho.

Igipangu cyiza cyane cyubatse ku muhanda wa kaburimbo, kikaba kirimo inzu igeretse inshuro imwe yo guturamo, ifite amabati y'umutuku, ifite n'ubusitani buyiteye imbere yabyo.

Forute beti iki ni ikigo gikorera mu Rwanda gikina imikino y'amahirwe, ku bifuza kuba bakina imikino y'amahirwe barakigana gikorera ahantu hari inzu nziza cyane ifite ibirahure by'umukara iherereye i Kanombe.

Umujyi wa Kigali iyo uwurebera kure uba ubona ari amazu meza cyane yiganjemo aya kadesiteri, afite amabati ay'umutuku umuhondo ndetse ayo mazu akaba agiye afite n'ibiti ku ruhande biyateyeho.

Agace k'icyaro karimo inzu zubatswe mu kajagari zigomba gusenywa kugira ngo hazubakwe inzu zikurikije igishushanyo mbonera aha hantu.

Igipangu cyubakishije amatafari ya ruriba gifite uruzitiro ruriho amahwa y'ibyuma, hanze yacyo hateye ibiti byiza cyane bizana akayaga, biyungurura umwuka duhumeka.

Imihanda yo mu makaritsiye hafi y'aho abamotari baza kurira ibya saa sita, hafi yaho hari umugabo ucura imfunguzo kugira ngo mugihe ushaka gukora kopi y'urwo ufite abigufashemo.

Inyange miliki zone, iri ku cyamitsingi i Remera. Buri muntu wese ukeneye amata, abasha kuba yajya kuri miliki zone y'aha ngaha i Remera, akayagurayo.

Umuhanda nyabagendwa ucamo n'ibinyabiziga bitandukanye hakaba harimo moto zifashishwa mu gutwara abagenzi, hakaba hari n'imodoka z'abantu ku giti cyabo ziri kuwunyuramo, iruhande rwawo hateye ibiti.

Umuhanda uca hejuru y'uwundi, imodoka zimwe zica munsi izindi zigaca hejuru. Uyu muhanda ni nyabagendwa kuko urimo imodoka, moto ndetse n'ibindi binyabiziga.

Umuhanda nyabagendwa w'icyerekezo kimwe urimo ibinyabiziga bitandukanye imbere hari umumotari utegereje kugira ngo yinjire mu muhanda, inyuma ye hari ikamyo yo mu bwoko bwa fuso.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka zitandukanye, zaba izitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, n'iz'abantu ku giti cyabo. Umuhanda urasa neza, kuko ukuburwa buri gihe. Hateyemo n'ibiti biyungurura umwuka duhumeka.

Umuhanda nyabagendwa utarimo imodoka nyinshi, ukaba ari umuhanda uva karitsiye ukinjira mu muhanda munini, uyu muhanda munini ukaba usa neza ukubuye rwose.

Umuhanda nyabagendwa haba harimo n'utuyira tw'abanyamaguru dufasha abantu bakeneye kwambuka umuhanda bakadukoresha, ibinyabiziga iyo bihageze birahagarara kugira ngo bambuke nta nkomyi.

Imodoka zirimo kubisikana mu muhanda nyabagendwa imwe irasa umutuku, indi irimo gusa umweru zombi zikaba zitwawe n'abagore.

Abagabo babiri bose bafite kasike zanditseho sefu moto, aba bagabo bose bambaye amarinete umwe ni umwirabura ariko undi ni umuzungu.

Umuhanda nyabagendwa unyuranaho n'undi muhanda ariko uwo muhanda ukaba ari ikiraro kinyura hejuru, hakaba harimo ibinyabiziga urugero nka moto, imodoka n'ibindi.

Umuhanda nyabagendwa uba urimo ibinyabiziga bitandukanye, uyu muhanda urasa neza kandi ufite amatara awumurikira ucibwamo n'ibyerekezo byombi kandi ibinyabiziga byose bigacamo zaba moto n'imodoka.

Umuhanda nyabagendwa buri muhanda wose ugomba kuba ufite akayira k'abanyamaguru bambukiramo, kugira ngo bazajye bambuka bafite umutekano usesuye kandi iyo imodoka zihageze, zirahagarara bakabanza bakambuka.